Inzu irimo abantu bizihiwe bigaragara ko batashye ibirori hasi hashashemo tapi y'ubururu, ameza ariho ibitambaro by'umweru, ndetse bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'umukara hariho n'indabyo zirimo ibara ry'icyatsi n'umweru hejuru harimo amatara y'umweru ndetse na parafo y'inzu ari umweru bambaye impuzankano zitandukanye mu mabara y'umukara n'umweru.

Inzu igaragaramo ko irimo abantu bari mu nama, bambaye impuzangano zirimo ibara ry'umweru n'umukara, ndetse harimo n'ameza bariho ari mu ibara rya shokora, hasi hari amakaro y'umweru ndetse na shokora, hejuru harimo parafo y'umweru n'amatara y'umweru.

Ifoto igaragaza ahantu hari indabyo ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse hari n'inzu hakurya y'ibara ry'umuhondo n'umutuku hejuru hariho imirasire ikurura izuba kandi akaba ari n'ibiti bitwara insinga z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ufite terefone mu kiganza, arimo aramamaza serivisi nshyashya za emutiyene (MTN) k'umugabo wambaye umupira w'umukara ufite igare ry'umuhondo mu ntoki.

Ifoto igaragaza urukuta ruriho irangi ry'umuhondo ariyo inyuguti mu ibara ry'umukara yanditsweho emutiyeni, imbere haparitse ibinyabiziga birimo abantu bambaye impuzankano z'imyenda y'akazi zari mu ibara ry'umutuku, n'ingofero z'umutuku ruhande rwabo hari imitaka iri mu ibara ry'umuhondo.

ifoto igaragaza ikinyabiziga cy'ubutabazi cyanditseho ambulance gitwara abarwayi bagiye kwivuriza kwa muganga, kiriho ibirangantego by'udusaraba biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'irangi ry'umweru.

Ifoto igaragaza ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku bwazwi nko ku bitaro haparitse ibinyabiziga byinshi bitwara abarwayi bafite ikibazo ari byo bita ambilance ziri mu mabara y'umweru agiye yanditseho n'inyuguti z'umutuku zifiteho n'amatara ari mu ibara ry'umutuku.

Ifoto igaragaza inzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'amabati y'umutuku hakababa imbere hari jaride iri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Ifoto igaragaza ibinyabiziga, harimo ikinyabiziga cy'umukara ndetse n'ibindi bibiri bitwara abarwayi kwa muganga babaha serivisi zihuse, zanditseho mu nyuguti z'umutuku ambilanse ndetse zikaba zihagaze ahantu ku ibitaro.

Ifoto igaragaramo umumama ugaragara ko ari mukuru w'imibiri yombi wambaye impuzangano ziri mu ibara ry'umutuku ndetse hariho n'ibara ry'umweru.

Ifoto igaragaza abantu bane bahagaze, bambaye impuzankano z'imyenda y'akazi ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Bakaba bashinzwe babita abacamanza cyangwa wenda se n' abashinjacyaha, bitewe n'inshingano bafite.

Ifoto igaragaza abantu bafite bafite umupira uririmo amazi bashinzwe kuzimya ahantu hafashwe n'umuriro, bambaye impuzankanzo zi mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi kibisi n'ingofero z'umweru.

Ifoto igaragaza igikoresho bakoresha bifashisha, bari kuzimya umuriro ahantu habaye in nk'impanuka cyangwa se hafashwe n'inkongi y'umuriro, kiri mu ibara ry'umutuku cyanyandikishijeho inyuguti mu ibara ry'umweru.

Ikinyabiziga gitwara ibicuruzwa kiri mu muhanda kigenda gifite ibara ry'ibyumweru imbere, inyuma harimuo ibara ry'icyatsi kibisi, hariho n'indi, ikindi kiri mu ibara ry'umweru wijimye.

Ifoto igaragaza ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda kiri mu ibara ry'ubururu ndetse cyanditseho inyuguti z'umweru hejuru hari ibindi byuma byo mu ibara ry'umutuku. Umuntu uyitwara akaba yambaye impuzankano z'imyenda y'akazi iri ibara ry'ingofero ya move na kiri ya aki yuzuye.

Ikinyabiziga gitwara abagenzi kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse kiriho n'ibara ry'umuhondo, imbere hari umuntu uri kugenda yambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Ifoto igaragaza ikinyabiziga kiri mu mabara y'ubururu yanditseho inyuguti z'umweru ugitwaye yambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara kiri muhanda kigenda ndetse hirya ku ruhande hari umuntu wambaye impuzangano ziri mu mabara n'umuhondo n'umutuku n'inkweto z'ubururu.

Ifoto igaragaza ibinyabiziga bitwaye abantu aribo bambaye impuzangano z'imyenda y'akazi ziri mu mabara y'umuhondo n'ubururu ndetse n'ingofero z'umutuku.

Ikinyabiziga gitwara abantu bagiye mu kazi kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse iyo bisi ikaba iri mu muhanda ahandi haparitse amadoka ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'amatara y'ibara ry'umutuku.

Ifoto igaragaza abantu bicaye ahantu habugenewe kwicara barimo baruhuka mu mutwe abandi bari kuganira, ndetse n'abandi bari kuri interineti hari n'abandi bari kugenda bambaye impuzangano z'amabara atandukanye mu mabara y'ubururu n'umukara, ndetse no mu mabara y'icyatsi batwaye mu ntoki.

Iki kimenyetso kirimo cya mpande eshatu kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru ndetse harimo n'ibara ry'umukara, ni ikimenyetso kikwereka ko aho ugiye ugeze imbere gato harimo iko umuhanda ukata cyane ariko ushamikiyeho undi muhanda muto.

Iki kimenyetso kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, mo hagati handitse ya p icishijemo akarongo, munsi handitse inyuguti ziri muri ino parikingi, cyerekana ko aho kiri nta kinyabiziga cyemewe kuhaparika.

Ibi bimenyetso biriya byerekana ko hari imihanda ibiri umwe ugenda uzamuka n'undi gutambika hakaba hari ikimenyetso cyerekana ko imbere ari y'abanyamaguru mu mabara y'umweru n'umutuku.

Ikirangantego, kerekana ko icyapa cyo mu muhanda cyerekana ko hatanyurwa n'ibinyamitende bibiri kiri mu ibara ry'umutuku ricisha amakaronko gatambitse hashushanyijemo ikinkinyabiziga k'imitende ibiri.

Ikimenyetso gikozwe muri mpande eshatu kikaba cyerekana ko umuhanda uri imbere wo kugendamo utaringaniye neza.

Iki kimenyetso cyerekana ko hari umuhanda ukomeje ariko ushamikiyeho undi muhanda utambitse kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo.

Ifoto igaragaza umuhanda ndetse no hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire, biri mu mabara y'icyatsi kibisi kandi bikaba bimeze neza

Ifoto igaragaza umuhanda urimo ibimenyetso bibiri biri mu ibara ry'umweru kimwe gikata kijya ibumoso ikindi kigakata kijya iburyo.

Ifoto igaragaza inzu abagenzi aho bategereza ibinyabiziga bibatwara ku kazi gasize irangi ry'ubururu harimo n'intebe y'umukara, hakaba n'ibinyabiziga mu muhanda birimo bigenda.

Ifoto igaragaza umuhanda urimo ibyatsi by'icyatsi kibisi ndetse n'ibinyabiziga biri mu mabara y'umukarakaba ari n'ibindi binyabiziga bitwara abantu ababitwara bambaye impuzangano z'imyenda y'akazi ziri mu amabara y'ubururu n'umuhondo n'ingofero z'umutuku.

Ifoto igaragaza inzira nyabagendwa y'abanyamaguru irimo umuntu wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara, ndetse hakaba hari n' ibibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.